Iyo ubuhinzi bwitaweho bugashyirwamo imbaraga, tubona umusaruro utandukanye kandi ukaduteza imbere, muri ibyo bikorwa bishobora guteza imbere ubuhinzi harimo kuvomerera, gutera imiti kugira ngo umusaruro wiyongere turwanye udusimba dushobora kuba twakagiza imyaka, ni iby'ingenzi ko tubishyiramo imbaraga kuko iyo tubyitayeho tubona umusaruro mwiza.

Ubuhinzi bukorwa mu buryo butandukanye gusa abahinzi baba bakeneye amahugurwa kugira ngo babashe gutera imbere kandi bakore ubuhinzi bwa kinyamwuga, ni iyo mpamvu abantu babyize babagira inama nimba ari mu zuba bakoresha uburyo bwo kuvomerera kugira ngo ibihingwa byabo bidasubira inyuma, ibyo bituma babona umusaruro mwiza.

Hari imiti itandukanye igenda ikorwa kugira ngo yifashishwe mu bikorwa by'ubuhinzi, urugero nk'iyica udukoko cyangwa se iyifashishwa mu kugira ngo umusaruro wiyongere.

Hari ikoranabuhanga ritandukanye abantu bize ubuhinzi bifashisha kugira bavomererere imyaka ibashe gukura nanone iryo koranabuhanga barigeza mu baturage bo hasi kugira ngo nabo babashe gutera imbere mu buhinzi barabigisha uburyo barikoresha iyo barikoresheje bituma umusaruro w'ubuhinzi wiyongera cyane.

Hari ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gusarura amafi, biba bimeze nka supanete cyangwa se inzitiramibu hanyuma bakabishyira mu mazi, amafi akazamukamo hejuru.

Ubworozi bw'amafi, bugenda butera imbere, aho bashobora kwifashisha n'ikoranabuhanga kugira ngo amafi yororwe neza. Iryo koranabuhanga, rituma amafi akura neza, kandi mu gihe gitoya.

ubuhinzi bw'amafi bugenda butera imbere, ntago bigisaba ko abantu babikorera mu biyaga gusa nanone bacukura ibyuzi hanyuma bagashyiramo imirama y'amafi. Gusa ayo mafi aba akeneye ibiribwa kugira abeho. Ni iyo mpamvu aborozi bayo bayagaburira buri munsi.

Iyo ubworozi bw'amafi bukozwe neza, havamo umusaruro mwiza cyane kandi iyo bayasaruriye ku gihe, avamo yaraku ku buryo yatanga amafaranga, baramutse bayagurishije.

Ubworozi bw'amafi bugenda bwiyongera, kuko bamaze kubona ko butanga umusaruro iyo byitaweho. Ntabwo bikiri ngombwa ko abantu bororera mu biyaga. Hagenda hacukurwa ibyuzi bitandukanye ahantu hose, kugira ngo borore amafi. Icyo baba basabwa, ni ukureba niba hujuje ibisabwa bagashyiramo ibyokurya, bagashyiramo imirama, izavamo ayo mafi ndetse bakayitaho buri munsi.

Ubuhinzi bw'amafi bukorwa mu buryo butandukanye, aho abantu bashinga ibyuzi bagacukura ibyobo, bagashyiramo amazi hanyuma bagashyiramo imirama, ikazavamo amafi. Ayo mafi ntiyayakura atabashijwe mu kwitabwaho buryo butandukanye, barayagaburira bakayamenyera ibyo kurya bizayatunga, kugira ngo nayo azabashe gutanga umusaruro.

Ubuhinzi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane, aho abantu benshi bari kubyitabira, amahoteli, amaresitora ndetse n'abantu basanzwe, bakenera amafi ku bijyanyeye n'ibyo kurya niyo mpamvu hacukurwa ibyuzi bigiye bitandukanye, hagakorwa ku ubuhinzi bw'amafi icyo basabwa ni ugushyiramo imirama itanga ayo mafi ndetse no kuyigaburira.

Ubuhinzi bw'amafi bugenda butera imbere cyane muri iyi minsi, kuko akoreshwa mu mafunguro yacu ya buri gihe. Ni iyo mpamvu hari ibyuzi bitandukanye byifashishwa kugira ngo bukorerwemo.

Iyo ibyuzi cyangwa se ahantu bateganyijwe gukorera amafi hatunganyijwe neza bakayororeramo bakayitaho bakayaha ibyokurya n'intungamubiri arakura, iyo akuze havamo ibyo kurya. Amafi ari mu bintu bifite intungamubiri ku mafunguro yacu, ni iby'ingenzi ko mu gihe bari kuyahinga cyangwa kuyorora agerageza kuyaha ibyo akeneye kugira natwe azaduhe intungamubiri.

Ubuhinzi bw'amafi bugenda butera imbere uko bwije n'uko bukeye, hagenda hubakwa ibyuzi bishyashya aho bahingamo amafi akaba yabateza imbere, nanone hatuma tubona ibyo kurya bikomoka ku matungo, ibyo biva mu mafi bikungahaye kuri poroteyine aho bifasha mu mikurire cyane cyane iy'abana.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa ngengwabukungu gihingwa n'abaturage b'u Rwanda. Iyo bagihinze babona amafaranga kandi bagakemura ibibazo bitandukanye. Iyo gihinzwe neza gishobora kugemurwa hanze y'igihugu, kugira ngo binjize andi mafaranga y'amadovize, ibyo bikagira ingaruka nziza ku baturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa nyegabukungu gihingwa mu Rwanda kubera ko ikundwa cyane kandi uko bwije n'uko bukeye abantu barushaho kuyishimira mu kuyirya, ni yo mpamvu abahinzi iyo bayihinze neza babona umusaruro mwiza kandi bakayohereza ku masoko atandukanye harimo no kuyijyana hanze y'igihugu.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa ngengabukungu aho iyo gihinzwe neza gitanga umusaruro, abantu benshi bakunda ikawa mu kuyinywa ni iyo mpamvu usanga igemurwa no hanze y'igihugu.

Umuceri ni kimwe mu bihingwa bikunzwe cyane, abantu benshi bakunda kurya umuceri. Uhingwa mu gishanga, aho haba harimo amazi menshi, kandi uba uhinzwe ku murongo.

Amatungo yo mu rugo, ni meza cyane kuko aduhereza amafaranga amata, inyama, ndetse n'ibindi bintu. Gusa ibyo ntabwo byashoboka mu gihe amatungo atameze neza. Iyo arwaye ni ngombwa ko tujya kwa muganga w'amatungo, kugira ngo aduhe imiti. Hari imiti itandukanye igenda yifashishwa kugira ngo yite ku buzima bwayo, abashe kurushaho gutanga umusaruro mwiza.

Inka za kijyambere zikunda guterwa ibimenyetso bigaragaza nimero zazo kugira ngo bajye babasha kubona uko bazitaho, bifashisha amaherena bashyira ku gutwi bayitoboye.

Amatungo nayo akeneye kwitabwaho kugira ngo agire ubuzima bwiza, ndetse n'umusaruro tuba tuyitezeho uboneke ijana ku ijana, niyo mpamvu aba veterineri ndetse n'abandi bashinzwe ubuzima bw'amatungo, bakora imiti itandukanye bifashisha mu kwita ku buzima bwayo, bakora inkingo bakazitera bakazirinda indwara n'ibyorezo.

Amatungo yo mu rugo nayo akeneye kwitabwaho kugira ngo atange umusaruro mwiza. Ni iyo mpamvu hari imiti itandukanye igenda ikorwa kugira ngo abashe kwitabwaho. Urugero: nk'ivura indwara z'uruhu, nk'ibirondwe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Nanone hari izindi ndwara zishobora gufata inka nk'iyo imaze kubyara ari yo bita ifumbi. Iyo miti ivura indwara zitandukanye n'izindi ntavuze.

Iyo amatungo yacu arwaye dukenera kuyitaho. Hari ibintu bitandukanye dukoresha kugira ngo tubitere umuti. Urugero hari amacupa yabugenewe bashyiramo umuti hanyuma bagapuriza ku nka cyangwa se ku yandi matungo.

Harimo imiti igiye itandukanye igenda ikorwa kugira ngo hakorerwe ubuvuzi ku matungo, ni yo mpamvu hari imiti ishobora guterwa ku nka kugira ngo yice udukoko dufata ku ruhu rwayo, iyo miti iba yarakozwe n'abashinzwe ubuvuzi bw'amatungo.

Amatungo aba akeneye imiti, itandukanye kugira ngo abashe gukira indwara ndetse n'umusaruro wazo wiyongere. Iyo miti iba ikoranye ubuhanga kandi ifunitse mu macupa yabugenewe, afite isuku.

Iyo tworoye inkoko dukenera kuziha miti kugira ngo zibashe kongera umusaruro kandi na zo zikure. Iyo miti tuyisanga ku mazu acuruza imiti y'amatungo, ibyo bidufasha mu kurinda indwara izo nkoko.

Amatungo yacu urugero nk'inkoko, kugira abone umusaruro mwiza nk'amagi cyangwa se inyama ni uko aba yaritaweho, ni yo mpamvu aborozi baba bagomba guhora bayasuzuma, hanyuma akayaha imiti iyafasha gukiza indwara cyangwa se imikurire yayo.

Amatungo kugira ngo atange umusaruro mwiza, ni uko na yo aba yitaweho. Ni iyo mpamvu hari imiti itandukanye, ikorwa kugira ngo ihabwe umutungo maze umusaruro wayo na yo wiyongere.

Abaturage iyo boroye inka birabafasha mu iterambere ryabo aho usanga ribaha amata bakabona n'ifumbire, nanone na bo bagomba kuzitaho aho zirara ndetse n'ibyo zirya.

Gutera ibiti ni igikorwa k'ingenzi cyane ni iyo mpamvu leta ifatanya n'abaturage kujya gutera ibiti, cyane cyane ibizana imbuto kuko usibye kuba ari ibiti bitanga umuyaga mwiza n'imvura, biduhereza n'ibyokurya ku buryo twabibona kandi tukanagurisha, kugira ngo tubone amafaranga.

Ubuhinzi ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nibwo dukuramo ibyo kurya bigiye bitandukanye kuko budakorwa ntago twabaho natwe. Niyo mpamvu abahinzi bagerageza uko bashoboye kugira ngo bahinge neza. Bagerageza guhinga amaterasi, bakabagara, bakita ku bihingwa byabo. Iyo ibyo babikoze umusaruro uriyongera kandi natwe dukenera kurya ibyo biribwa tukabibona neza.

Ubuhinzi ni bimwe mu bintu bitunze abaturage cyane kuko babona ibyo kurya by'ingenzi bakeneye, nanone bashobora kugurisha ibyo bahinze kugira ngo babone utundi tuntu, urugero ashobora guhinga ibirayi cyangwa ibijumba akabigurisha kugira ngo abone ayo mavuta cyangwa iyo sukari.

Abahinzi kugira ngo imyaka yabo yere neza n'uko batunganya ubutaka, mbere y'uko bahinga ,ni iyo mpamvu bafata umwanya, bagahinga, hanyuma ubutaka bwamara gutungana, bakazateramo imyaka yabo.

Abahinzi bakora uko bashoboye kugira umusarurow'ibyo bahinga wiyongere harimo kubagarira imyaka yabo mu gihe hajeho ibyatsi kugira ngo intungamubiri zagatunze igihingwa siho kugenda ibyo bituma umusaruro waho wiyongera.

Inka iyo zitaweho zitanga umusaruro urimo uw'amata, usanga amata ari ikinyobwa gikundwa cyane kuko kiba kirimo intungamubiri, ni iyo mpamvu abaturage borora bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bahe amatungo ibyo akeneye maze na bo babone umusaruro mwiza uyakomokaho ari wo amata.

Iyo igihe cy'ihinga kigeze abahinzi bafata iya mbere bakajya mu mirima, bagahinga, bagategura ubutaka kugira ngo bazabashe gutera. Ntabwo bashyiramo imyaka batarabanje gutegura ubutaka mbere.

Abaturage borora amatungo kugira ngo biteze imbere. Nanone iyo umuturage yoroye inka akora n'ibikorwa by'ubuhinzi biramworohera kuko abona ifumbire kugira ngo afumbire imyaka ye na yo yere.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa by'iterambere biranga Igihugu, abaturage bakora ubuhinzi iyo babishyizemo imbaraga baduha umusaruro natwe tukabona ibyo kurya, bimwe mu bintu bahinga harimo ibirayi usanga nko muri Musanze babihinga ku rwego rwo hejuru, ku buryo bagemurarira amasoko atandukanye mu turere, iyo ibirayi byeze tubona ibyo kurya kandi ku mafaranga makeya.

Abaturage bakenera gutera imyaka yabo kugira ngo ibashe gukura, bashobora gukusanyiriza hamwe imbuto hanyuma bakazitera mu butaka kugira ngo bazazisaruremo umusaruro mwiza.

Ibihingwa bitandukanye iyo bihinzwe neza tubona umusaruro, urugero nk'imyumbati ni kimwe mu gihingwa bahinga bagishyize mu butaka hanyuma kikazakura gifite amababi y'icyatsi ariho havamo n'imyumbati turya.

Iyo ubuhinzi bukozwe neza butubyarira umusaruro, havamo ibintu bitandukanye urugero nka avoka dushobora kuyihinga neza bikavamo ibyo kurya bya buri munsi mu rugo, ndetse tugasagurira n'amasoko ku buryo tubona amafaranga yo kugura ibindi bintu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni iby'ingenzi ko tubyitaho mu gihe turi kubihinga.

Ubuhinzi butuma abantu batera imbere cyane, hari ibikorwa bitandukanye bashobora gukora kugira ngo biteze imbere, urugero nko guhinga ibigori yaba ibituburano cyangwa se ibigori bya kinyarwanda, byose bavanamo umusaruro ndetse bakaba banasagurira n'amasoko.

Imyembe ni igiti kera ahantu hatandukanye. Yaba ari mu busitani, mu murima cyangwa se cyarimejeje. Kivamo imbuto zikundwa n'abantu benshi kuko iba iryoshye.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa by'iterambere ry'Igihugu, aho abantu bakora ubwo buhinzi iyo babyitayeho neza bakabishyiramo imbaraga babona umusaruro mwiza, usibye kubona ibyo kurya bazagurira n'amasoko ku buryo abandi badakora iby'ubuhinzi babasha kubona ibyo kurya biboroheye.

Hari abantu batandukanye b'abahinzi bahinga ibirayi iyo byeze bishobora kuva ku mafaranga make. Ariko iyo umusaruro utagenze neza birahenda hanyuma ntitubibone. Gusa iyo bihari twese turabibona kandi biduhagije.

Ubuhinzi bugenda butera imbere uko bwije n'uko bukeye, abayobozi bagenda bahugura abaturage ku buryo babukora mu buryo bwiza ndetse n'umusaruro wabo ukiyongera. Iyo babikoze bituma babona amafaranga ndetse bagasagurira n'amasoko, urugero nk'iyo ibigori bihinzwe neza bitavangiwe n'ikindi kintu, bitanga umusaruro mwiza cyane.

Umuceri uhingwa mu gishanga, kugira ngo ubashe gukura neza. Ukura umeze nk'ibyatsi birebire, bifite impeke ku musozo wabyo. Niho havamo umuceri bakawutonora.

Ubuhinzi bugenda butera imbere cyane n'iyo mpamvu hari ibihingwa bitandukanye bikenerwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tubeho, urugero nk'ibijumba usibye kuba byavamo ibyo kurya havamo n'amabiswi cyangwa amakeke.

Ubuhinzi bukorwa mu buryo butandukanye, hari n'ubuhinzi bwo guhinga urutoki, aho abaturage babyitayeho bashobora kubona umusaruro utandukanye. Urutoki tubonamo imineke, umutobe, inzoga ndetse havamo n'ibyokurya by'ibitoki bisanzwe.

Dukenera imboga kugira ngo tugire ubuzima bwiza, urugero imboga rwatsi arizo bita doto cyangwa ibitunguru by'ibibabi, ibyo uba usanga bihinzwe mu karima k'igikoni kugira ngo tuge tubibona bitworoheye.

Iyo abahinzi bahinze ibigori kugira ngo bibahe umusaruro, bashobora kubihinga ari byonyine nta kindi gihingwa kivanzemo. Maze umusaruro wabyo ukiyongera, bakabona amafaranga, bakagura ibyo bakeneye, bakaniteza imbere.

Mu mashyamba ubu usanga hari ibyiza byinshi biharanga, ni iyo mpamvu abakerarugendo ndetse natwe ubwacu dufata umwanya tukajya kuhasura, duterera imisozi, haba hari amabuye atandukanye ndetse n'ibiti byinshi.

Mu midugudu uba usanga hari umunsi wagenwe, wo gukora inama n'abaturage. Abayobozi b'inzego zitandukanye, yaba iz'ibanze cyangwa iz'umutekano, bahura n'abaturage, bakaganira ku bibazo bibugarije, ibyo bituma babikemura neza nta kibazo.

Mu mashyamba haba hari ibyiza nyaburanga bitandukanye, urugero nk'inyoni z'amabara y'ubwoko bwose, ibindi bisimba bihari ibyo bigatuma ba mukerarugendo baza kuhasura, kubera ibyo byiza bihari. Ibyo bituma amafaranga y'amadofize yinjira mu Rwanda nanone usibye abakerarugendo, natwe Abanyarwanda twitabiriye kujya gusura iby'iwacu.

Amashyamba aba ateye mu buryo butandukanye. Iyo ari amashyamba yimejeje ubu usanga afite ibiti byinshi, binini kandi bicucitse. Ubu usanga ari iby'ubwoko butandukanye, harimo n'utwatsi dutoya tutari binini.

Ku misozi usanga hari amashyamba, yaba ayimejeje cyangwa ayo bateye, gusa hari ahaba hari amashyamba make make ugereranyije n'ahandi kuko babagiye bayatema, nanone hagati harimo imirima.

Amashyamba aradufasha cyane mu kubona imvura. Usibye kubona imvura, adufasha kubona umwuka mwiza kuko ayungurura imyuka yose yo mu kirere. Nanone ahantu ateye harindwa n'isuri kuko amashyamba akomeza ubutaka.

Abaturage borora bakenera ahantu ho gushyira amatungo yabo kugira ngo arishe ibyatsi by'umwimerere, uba usanga ari ahantu hagari hari ibyatsi by'ubwoko bwose hanyuma zikajyamo zikarisha.

Amashyamba atuma igihugu kirushaho gusa neza, gusa hari igihe abaturage bayatema kandi iyo batemye, bituma hasa nabi nanone bitera isuri, ikindi amashyamba niyo akurura imvura, ni iyo mpamvu buri muturage aba agomba kuzirikana gutera ibiti, uko atemye bimwe muri byo.

Amashyamba arahingwa kugira ngo tubone umusaruro uturukamo wo kubona imbaho amakara n'ibindi bintu bitandukanye. Ni ik'ingenzi ko tugiye gutema igiti, twihutira gutema ibindi kugira ngo tutagira ubutayu, cyangwa hakaza isuri. Ibiti ni ingenzi cyane kuko bidufasha mu bikorwa byacu bya buri munsi.

Amashyamba aduhereza umwuka mwiza iyo ahinzwe neza, na none atuma tubona imvura bityo ibikorwa byacu bigakomeza, ni iyo mpamvu buri muturage aba agomba kuyitaho kandi akirinda kuyatema uko abonye kose.

Ishyamba ni kimwe mu bintu bikurura imvura, iyo ari ryinshi, iduhereza umwuka mwiza kuko riyunguruye imyuka mibi yose yo mu kirere, hanyuma tukabona umwuka mwiza wo guhumeka, nanone ituma tubona imvura ihoraho, bigatuma ibikorwa byacu bigenda neza.

Iyo ugiye muri parike cyangwa se aho inyamaswa ziba uhasanga ibiti bitandukanye ariko bitegeranye, nanone haba hari ibyatsi bigufiya ku buryo inyamaswa zibamo zibasha kubirisha.

Umuturage wese agomba kuba afite akarima k'igikoni iwe, iyo adafite umurima uhagije ashobora kwifashisha imifuka yashaje akayica hanyuma agahingamo izo mboga kandi zirakura.

Inyanya ni kimwe mu bintu byifashishwa kugira ngo ibiryo twatetse biryohe. Uba usanga zihingwa ahantu hatandukanye cyangwa se muri za nzu zabugenewe kugira ngo zikure neza.

Hari ubuhinzi bugenda bukorwa kugira ngo abantu biteze imbere, muri bwo hari ubuhinzi bw'indabo bushobora gukorwa mu buryo bwa kijyambere, aho buhingwa ahantu hameze nk'inzu kandi bukabona ibikenewe byose kugira ngo ibyo bihingwa bikure.

Ubuhinzi bw'imboga bugenda butera imbere cyane, uba usanga abantu bahiga insenda, amapavuro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, byamaze guhabwa agaciro kuko insede iyo zihinzwe neza ziragemurwa bikajyanwa mu mahanga, iyo bigezeyo bitanga amafaranga ku gihugu ndetse no ku baturage nyirizina bakora ubwo buhinzi.

Akarima k'igikoni ni ingenzi ko buri muturage wese akagira mu rugo rwe. Haba harimo imboga z'ingenzi zikenerwa: nk'ibitunguru. amashu, dodo, inyanya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kuko biturinda kugwingira cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu kandi abagore batwite nabo bakabona indyo yuzuye natwe bakuru tuba tuyikeneye.

Ubuhinzi bw'indabo bumaze gutera imbere mu rwanda. Aho umuntu asigaye afata umwanzuro wo guhinga indabo ku rwego mpuzamahanga. Afata ama hegitari manini akazihinga. Mu rwanda hamaze kuboneka amasoko yo hanze ku buryo abantu bazihinga bazigemura hanze kandi mu buryo buhoraho. Ibyo bituma babona amafaranga bakiteza imbere na none kuko binjiza imisoro u rwanda na rwo rutera imbere.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza umusaruro wabyo uriyongera, urugero nko guhinga imboga bisaba ko ababikora bakurikiza gahunda baba barahawe n'abashinzwe iby'ubuhinzi, iyo babikoze neza umusaruro uriyongera kandi mu gihe gitoya.

Ubuhinzi bw'inanasi bugenda butera imbere, inanasi zifashishwa mu gukora amaji atandukanye, nanone hashobora kuvamo imibavu, amavuta, kugira ngo abantu bahumure neza. iyo abantu babihinze babona amafaranga kubera ko ni bimwe mu bihingwa bi.

Ubuhinzi bw'indabo bugenda butera imbere cyane. Mbere wasangaga bazihinga ku gasozi ariko n'ubu ngubu hari abazihinga mu mazu yabugenewe, aho zibasha gukura neza nta mbogamizi bahuye nazo.

Ubuhinzi bw'imboga bugenda butera imbere uko bwije nuko bukeye. Nk'amashu iyo ahinzwe neza usanga avamo umusaruro mwinshi kandi abantu benshi bayakoresha amafunguro yabo ya buri munsi kuko ni bimwe mu bintu bitanga intungamubiri.

Abaturage kugira ngo imyaka ikure baba bagomba kuvomerera mu gihe cy'izuba, iyo badafite ubushobozi bakoresha ibikoresho gakondo nk'indobo n'igisuperi hanyuma bakagenda bamena amazi ku myaka.

Kugira ngo imyaka yacu itange umusaruro mwiza bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo uboneke, harimo kuvomerera mu gihe k'izuba kugira ngo imyaka itumagara.

Kugira ngo imyaka yacu ikure, ni uko ibasha kuvomererwa, mu gihe cy'izuba. Ibyo bituma itumamagara, hanyuma ngo isubire inyuma. Nanone, hakoreshwa imipira ikurura amazi kugira ngo babashe kuvomerera.

Abaturage kugira ngo bahege umusaruro wiyongere hakoreshwa ibintu bitandukanye mu gihe k'izuba hifashishijwe imashini zabugenewe kugira ngo zibafashe kuvomerera imyaka yabo amazi avuye mu byuzi.

Abahinzi bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo babone umusaruro mwiza, ni iyo mpamvu mu gihe cy'izuba bakoresha uburyo bwo kuvomerera kugira ngo umusaruro wabo udasubira inyuma.

Kugira ngo umusaruro wiyongere ni ngombwa ko abahinzi bashyiramo imbaraga nyinshi, ni yo mpamvu bakoresha bumwe mu buryo bwo kuvomerara ibihingwa n'iyo haba ari mu izuba kugira ngo bitumambagara maze umusaruro bateganyaga kubona ntibabe bakiwubonye.

Kugira ngo tubone umusaruro mwiza hakorwa ibintu bitandukanye harimo no kuvomerera imyaka, bakoresha udupira twabugenewe mu gukurura amazi hanyuma bakanyanyagiza mu myaka.

Abahinzi bakeneye gukora ibintu bitandukanye umusaruro wabo ukiyongera, harimo uburyo bwo kuvomerera hifashishijwe imashini zabugenewe aho zikwirakwiza amazi menshi icyarimwe.

Kugira ngo umusaruro w'ibyo duhinga wiyongere hakenewe gushyirwamo imbaraga nyinshi. Ni iyo mpamvu abahinzi bakora uko bashoboye bakitabira gahunda yo kuhira imyaka, ibyo bituma ituma mu gihe k'izuba.

Kubera ko ubuhinzi ari kimwe mu bintu dukenera ubuzima bwacu bwa buri munsi nko kubona ibyoku kurya, nta handi byavunitse mu buhinzi. Niyo mpamvu hagenda hashyirwaho uburyo butandukanye bwo kubukora. Harimo kuvomerera bakoresheje imashini zabugenenewe ku buryo zivomerera umurima munini mu mugihe gito cyane. Ibyo bituma ikimera kibasha gukomezakura n'iyo haba ari mu zuba.

Mu bishanga ni ahantu amazi akunda kuba ari cyane, gusa abaturage bahahiga bashobora gukora imiyoboro ayo mazi anyuramo hanyuma mu gihe banayakeneye bakaba bayabona mu buryo bworoshye.

Abaturage nubwo nta bushobozi baba bafite bagerageza gukoresha uburyo bwabo bagakora ubuhinzi, iyo imvura imaze iminsi yarabuze bashaka amazi bagakoresha ibikoresho gakondo bakavomerera imyaka yabo kugira ngo itazuma.

I byokurya biva mu buhinzi ni ingenzi cyane kuko dukeneye ibyo kurya buri munsi, ni yo mpamvu abahinzi bagerageza uko bashoboye bagahora bahinga nubwo haba ari mu izuba, kugirango ngo ibyo bishoboke bashyiraho gahunda zitandukanye, urugero nko kuvomerera hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'imipira ikurura amazi ikayavana hasi mu mugezi.

Kugira ngo tubone umusaruro mwiza ku bijyanye n'ubuhinzi, dukeneye gushyiramo ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu abahinzi, bakoresha uburyo bwo kuvomerera mu gihe cy'izuba, kugira ngo imyaka yabo ituma kandi itabera.

Kugira ngo ubuhinzi bwacu butere imbere kandi tubone umusaruro, ni uko dushyiramo imbaraga. Ni iyo mpamvu, abahinzi bakoresha uburyo butandukanye nko kuvomerera mu gihe cy'izuba kugira ngo imyaka yabo ituma.

Mu Rwanda hari ahantu haba hari udusozi tuba atari tunini cyane, gusa uba usanga hatuye ho abantu inzu zisa nk'aho zitetegeranye, nanone ku bibaya naho haba hari amazu aturanye n'izo ng'izo ziri ku musozi.

Mu Rwanda hari ibyiza biharanga, urugero usanga hari imisozi miremire ariko hasi hari ibiyaga cyangwa se imigeze itemba, ibyo bintu biba bigaragara neza ariyo mpamvu usanga mu Rwanda hahora abakerarugendo, baje kuhasura kubera ibyo byiza n'ukuntu u Rwanda ruteye.

Uburyo u Rwanda ruteye, hari ahantu haba hari udusozi, usanga tutari tureture cyane. Haba hahinzeho ishyamba, insina ndetse n'imyaka na none aho hantu, haba hatuye abantu gusa batari benshi cyane.

Mu Rwanda uba usanga hari ahantu hari udusozi, gusa hari n'ahandi haba hari ibibaya, aho usanga abantu bahingamo imyaka igiye itandukanye, nanone ku misozi haba hari amashyamba, yaba ayimejeje cyangwa ayo bateye.

Amashyamba ni ikintu cyiza cyane kuko kiduhereza imvura kandi aho ishyamba riri rirwanya isuri, ni iyo mpamvu ryaba ryarimeje cyanga se twarariteye tuba tugomba kuribungabunga.

Uba usanga mu mihanda yo mu cyaro, hari ahantu abantu baca ariko uburyo yubatse ntabwo bwa kijyambere cyangwa se uburyo bugezweho, gusa n'ubwo imeze ityo ifasha abantu gukora ubucuruzi, ndetse bakajya aho bashaka igihe babishakiye.

U Rwanda ni urw'imisozi igihumbi aho iyo witeye ahantu harehare ubona imisozi myiza cyane, ukabona ukuntu izuba rirenga ndetse hari n'amashyamba ku buryo biba bigaragara neza binogeye ijisho kubireba, ari yo mpamvu bikurura ba mukerarugendo bakaza gusura u Rwanda bitewe n'uko ari urw'imisozi igihumbi kandi iteye neza.

Ishyamba ni kimwe mu bintu bikurura imvura ndetse rikaduhereza umwuka mwiza iyo ari ryinshi, gusa buri muturage aba agomba kwirinda kuritema uko abonye kose.

Uburyo u Rwanda rwubatse ruteye amabengeza cyane ku buryo buri wese aba yifuza kuhagera, uba usanga hari imisozi miremire gusa hagati y'iyo misozi hari ibibaya, rimwe na rimwe ugasanga harimo n'imigezi cyangwa se ibiyaga, ibyo bituma abantu benshi bahakunda bakishimira kuhasura.

U Rwanda ubusanga hari imirambi ariko hari n'ahantu hari imisozi miremire, aho ubona iteye ubwuzu ku uyireba, ku dusozi duto haba hahinze ibihingwa bitandukanye nk'icyayi, iyo ubirebye uba ubona bisa neza cyane.

U Rwanda ruteye mu buryo butangaje rugiye rurimo imisozi igi ihindagurika ku buryo hari usanga ari muremure, undi ugasanga ni mugufiya hagati hakaba harimo ibibaya. Ibyo bituma iyo uharebeye witaruye hagaragara neza, nanone kuri iyo misozi haba hahinzwe ibintu bitandukanye urugero nk'icyayi.

Hari uduce two mu burasirazuba, aho usanga hari imirambi myiza cyane, ku buryo uba ubona iteye neza, nta misozi nta mito iharangwa, mu bibaya habahinze imyaka itandukanye kandi hari ibiti by'ubwoko bwose, ibyo bituma hagira ishusho nziza hakubitana n'ikirere bikarushaho gusa neza.

Abaturage borora amatungo, hanyuma bakabona umusaruro nk'uw'amata. Iyo bari gukama, hifashishwa ibikoresho byabugenewe kugira ngo amata, abe yizeye ko afite isuku.

Ubworozi bw'amatungo magufi, urugero nk'inkoko butanga umusaruro, hari aborozi bahitamo korora imishwi, hanyuma bakayigaburira ikazavamo inkoko nkuru mu gihe kiri imbere.

Amatungo magufi nk'ihene yororerwa mu biraro byabugenewe. Aba afite isuku kandi n'aho zirara haba hafite isuku. Hubakishije imbaho kugira ngo zitabasha guhura n'ubukonje.

Hari inkoko zigezweho zitanga umusaruro mu gihe gito cyane, izo nkoko ni zo bita iza kizungu aho usanga zikura vuba kandi zigatanga umusaruro mwiza hadaciyemo igihe kirekire.

Amatungo yororerwa mu rugo, abakeneye kwitabwaho, urugero nk'inka cyangwa se utwana tw'ihene, dukenewe gushyirwa ahantu hafite isuku kandi hari uhagije kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Ingurube ni imwe mu matungo magufi yororoka cyane kandi vuba. Iryo tungo iyo ryitaweho rikagirwa isuku, rigahabwa ibyoku kurya, ritanga umusaruro mwiza, ikindi naone ntabwo risaba ibintu bihambaye ku buryo umuntu atashobora kuryorora, ritanga amafaranga mu gihe gito cyane, ariyo mpamvu abantu benshi muri ino minsi bitabiriye kuryorora.

Korora inkoko biri kugenda bitera imbere muri iyi minsi cyane inkoko za kizungu, zitanga umusaruro mu gihe gito kandi ziba zigomba na zo kwitabwaho aho ziba cyangwa se ibyo zirya.

Hari abantu baba bariyeyemeje, korora amatungo, urugero nk'inka, ubu usanga ari ahantu heza, hafite isuku kandi ayo matungo n'ayo aba afite isuku, nanone bashyiraho, abashinzwe ubuvuzi bw'amatungo kugira ngo bahore bayasuzuma, indwara zitandukanye.

Imishwi nayo isigaye yororwa, aho yayitaweho ku bijyanye n'ibyokurya, aho zirara ndetse n'isuku yaho, bituma zongererwa umusaruro kandi zikagurishwa, ku giciro kiza.

uburyo amatungo yubakiye nabyo bigira uruhare mu musaruro atanga ni yo mpamvu aborozi bab bagomba kubyitaho kugira ngo babone umusaruro bifuza nanone bagomba kwita kubyo kurya bazihereza biba byujuje intungamubiri.

Kugira ngo tubone umusaruro mwiza ku bikomoka ku matungo abahinzi n'aborozi bagerageza kubaka neza aho amatungo yabo arara cyangwa aba kugira ngo atarwara bitewe n'umwanda, ibyo bituma umusaruro wiyongera.

Ubworozi bw'amatungo bugenda butera imbere, harimo n'ubw'inka, iyo zitaweho zikagirirwa isuku, zikaba ahantu heza, ziduhereza umusaruro mwiza, nanone hari amatungo maremare ya kinyarwanda, aho atanga umkamo w'umwimerere kandi nanone hakenerwa aba baveterineri kugira ngo bajye bazisuzuma indwara zitandukanye babashe no kuzikingira.

Ubuvuzi bw'amatungo bukomeje gutera imbere cyane kugira ngo tubone umusaruro ukomoka ku matungo ni uko tuzitaho mu bijyanye n'ubuvuzi, mu gihe igiye kubyara abaveterineri baba bagomba kuba bahari kugira ngo nikenera ubufasha bube butangwa mu buryo bwihuse.

Korora amatungo magufi nk'inkoko bigezweho muri iyi minsi kuko bitanga umusaruro mwiza kandi mu gihe gitoya, gusa abagomba kuba ari ahantu hari umwanya munini, hafite isuku, kandi n'ayo ubwayo abona ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo y'inka, bugenda burushaho gutera imbere, gusa kugira ngo tubone umusaruro mwiza uyaturutsemo n'uko aba ari ahantu heza, hafite isuku, nanone hagomba kuba hari abaganga b'amatungo babugenewe kugira ngo bahore bazitaho.

Inka za kijyambere ni ukuvuga inka zitari inyarwanda, uba usanga nta mahembe zifite kandi nanone zifite amabara atandukanye n'ay'inka z'inyarwanda, gusa zose zitanga umusaruro mwiza cyane, zirya ubwatsi bwateguwe kandi ubu bwatsi bushoboka kuba bwabikwa igihe kirekire.

Hari abantu baba bariyemeje gukora ubworozi bya kinyamwuga. Borora amatungo maremare nk'inka mu buryo bwa kinyamwuga, aho aba ari menshi mu rugo barayakoreye ahantu ho kuba, hafite isuku ku buryo abasha kubaho kandi agatanga umusaruro. Nanone bazihereza ibyo kurya byinshi kugira ngo zikure. Baba bafite abaganga cyangwa se abaveterineri bazitaho by'umwihariko.

Ubworozi ni kimwe mu bintu bituma iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'umuturage byiyongera harimo abororera mu rugo nk'amatungo magufi ndetse n'amaremare nk'inka, tubona umusaruro utandukanye nk'inka yorowe neza tubona amata, tukabona inyama kandi tukabona amafaranga, ibyo bintu ni iby'ingenzi cyane gusa tuba tugomba kuyitaho tukayigirira isuku.

Iyo ibigori byeze, barabika, hanyuma bakazakenera kubibyazamo ifu y'igikoma cyangwa kawunga. Niyo mpamvu ufata umwanya bakabihungura kugira ngo tubone impeke.

Ubuhinzi bugenda bukorwa mu buryo butandukanye, kugira ngo tubone igihingwa cyakuze ni uko baba bateye imbuto ziba ari ntoya cyane nk'impeke z'ibigori, maze bazishyira mu butaka zikazavamo igishyimbo cyangwa se ikigori kigaragara.

Hari ibihingwa bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubashe kubona ibyo kurya, harimo nk'ubunyobwa. Ni igihingwa gifite imbuto ntoya cyane na none gihingwa mu butaka kikaba ari naho cyerera kuko baragicukura iyo bagiye kugisarura.

Abahinzi bibumbiye hamwe bahinga ibintu bitandukanye kandi bakabona umusaruro mwiza nk'ibigori aho batera impeke hanyuma bakazabona ibigori byinshi kandi binini.

Guhinga bikorwa mu buryo butandukanye, hari aho dutera imbuto nini gusa hari n'aho bisaba gutera utubuto duto cyane, urugero nka ceyasidi izo mbuto ni utuntu twa duto cyane, ku buryo badutera bifashishije mu kubiba aho kwifashisha amasuka iyo twitaweho tuvamo ibintu bitandukanye, kukozo ciyasidi abantu benshi bazikoresha mu kwita ku buzima bwabo.

Ubuhinzi bw'ibigori butanga umusaruro mwiza cyane iyo bwitaweho. Uba usanga hari uturere aho imyaka yabo bayisarurira mu murima bakayihunikamo, ndetse bakanayihuriramo. N'ibigori bashobora kubikora gutyo.

Amatungo yo mu rugo ashobora kwangirika cyangwa se agakomereka, ni yo mpamvu abaganga babishinzwe bakwiye guhita bazibungabunga kuko bishobora kuziviramo no kuhatakariza ubuzima.

Abaganga ku bijyanye n'amatungo bakora uko bashoboye bakayitaho. Iyo bibaye ngombwa bashobora no kuyabaga, kugira ngo bayavure mu buryo bwimbitse, nanone iyo itungo rigiye kubyara nta bushobozi rifite, bashobora kuribaga bakarikuramo umwana. Ibyo bikorwa gusa n'abantu babyigiye babifitiye ubumenyi, kuko ntabwo byakorwa n'umuntu uwo ari we wese.

Abavuzi b'amatungo badufasha mu kwita ku matungo yacu iyo yarwaye cyangwa akeneye ubundi bufasha nk'iyo agiye kubyara ni iby'ingenzi ko aborozi bagomba kwihutira kubagana kugira ngo babafashe amatungo yabo atahatakariza ubuzima.

Imbwa ni imwe mu matungo magufi yoroherwa mu rugo cyane kugira ngo adufashe gucunga umutekano, gusa aba agomba kwitabwaho mu gihe arwaye hifashishijwe abaganga babizobereyemo ku bijyanye n'amatungo, barazivura bakazitera inshinge kugira ngo zitanduza abaturage cyangwa se abazitunze.

Amatungo yose agomba kwitabwaho kandi mu buryo bungana. Muri yo hari amatungo dutunga mu rugo kugira ngo aducungire umutekano, arizo mbwa. Nazo ziba zigomba guhabwa ubuvuzi iyo zirwaye kandi zigakingirwa kugira ngo zitagira abantu zanduza ibisazi. Ni iby'ingenzi ko abaveterineri babishinzwe babikurikirana kugira ngo hatagira uwo zangiza.

Iyo ugiye mu bibaya ndetse no mu dusozi uhabona inka zifite amahembe maremare ari zo bita inyarwanda, uba usanzwe zifite umwihariko w'uko zifite amahembe ateze neza agaragaza umuco nyarwanda.

Inka ni kimwe mu matungo maremare yororerwa mu rugo, gusa kugira ngo tubone umusaruro mwiza ni uko tuyitaho, ni yo mpamvu twegera abaganga mu bijyanye n'amatungo kugira ngo badufashe kuyitaho barazikingira indwara zitandukanye kandi bakadufasha mu gihe zaba zigiye kubyara.

Abaganga ku bijyanye no kuvura amatungo baradufasha cyane, iyo bitaye ku matungo yacu tubona umusaruro mwiza, urugero bashobora kudufasha mu gihe inka yacu igiye kubyara kugira ngo ibashe kubayabyara neza ntakibazo igize.

Abaganga ku bijyanye n'amatungo bahora bakora ubushakashatsi kugira ngo barebe niba indwara zihariye bakore ubushakashatsi bayivumbure, kandi bashake n'imiti yayo, nanone ntibabikorana isuku kugira ngo itabasha kwangirika imiti bari gukora, cyangwa usange bangije ibintu byinshi.

Inyama ni kimwe mu biribwa bikundwa cyane, ku buryo abantu benshi babaga inka cyangwa se andi matungo, hafi ya buri munsi kugira ngo babone inyama, niyo mpamvu abaveterineri bagomba kuba bahari kugira ngo basuzume neza niba izo nyama zujuje ubuziranenge, ko nta ngaruka zagira ku bantu baramutse baziriye.

Abaveterineri baba barize ibintu bijyanye no kwita ku matungo niyo mpamvu inka zigize ikibazo cyangwa andi matungo ari bo bahamagarwa kugira ngo babashe kuzitaho bazirinda indwara aho bazitera inkingo ndetse bagatanga n'imiti n'ubujyanama ku bworozi kubera kuba barabihuguriwe baba bagomba kwita kuri ayo matungo kandi bagafasha na ba nyirayo kuyitaho bo ubwabo.

Abantu bize ibijyanye n'ubworozi, baba bafite ubumenyi butandukanye. Niyo mpamvu iyo dushaka korora, dushobora kubegera bakatugira inama. Badufasha kandi batwigisha uburyo butandukanye twakoresha kugira ngo tubone amatungo yacu tubone umusaruro mwiza mu buryo bwihuse.

Abaganga cyangwa se veterineri, babihuguriwe mu kwita kuzima bw'umutungo, nibo bantu bashinzwe kureba neza ubuzima bw'amatungo, bakaba babitera inshinge mu gihe zaba zirwaye, baba bagomba kubizitaho uko bishoboka kose kugira ngo umusaruro wo uzitanga udahungabana.

Mu Rwanda hari inyamaswa zitandukanye ushobora gusanga mu mapariki. Izi nyamaswa ziba ziteye mu buryo buri wese yishimira kuzibona. Kandi ziba zifite ubugenge buhambaye ku buryo utabasha kubisobanukirwa. Ni iyo mpamvu abakerarugendo ndetse n'abandi bifuza kujya kuzireba.

Inyamaswa zo mu gasozi ni kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo urugero nk'intare, ni iyo mpamvu Leta ishyiraho gahunda yo kuzifata ikazishira ahantu hamwe, ikazitaho, ikazitera imiti igabanya ubukana, nanone bakazirinda indwara zitandukanye.

Iyo tugeze mu mashyamba tuhasanga inyamaswa zo mu gasozi, uburyo ziba ziteye zitandukanye n'izo mu rugo. Hari ziba zifite amahembe maremare zifite ubwoya butangaje na none izo nyamaswa zikurura ba mukerarugendo kubera ukuntu ari nziza cyane.

Inyamaswa zo mu gasozi cyangwa mu ishyamba, ziba ziteye mu buryo butangaje. Urugero nk'inyoni, ziba zifite amabara atandukanye mu mababa yayo, ayo mabara atuma abantu bayakunda cyane kubera uburyo abateye kandi ari ku murongo. Ibyo bituma ba mukerarugendo biyongera, uko bwije n'uko bukeye, bagiye kuyareba.

Iyo tugeze aho inyamaswa zo mu gasozi zituye, tuhasanga ubwoko butandukanye kandi ziba zinogeye ijisho kuzireba. Impala, imparage, udusumbashyamba ndetse n'izindi. Izo nyamaswa zikurura ba mukerarugendo kubera ubwiza bwazo.

Iyo tugeze muri parike urugero nk'Akagera tuhasangamo amatungo atandukanye kandi akozwe mu buryo buhambaye, urugero ni nk'inzovu, inyamaswa nini cyane ipima ibiro byinshi, nanone ni imwe mu nyamaswa nini mu ishyamba ifite ubuhanga buhambaye ku buryo abakerarugendo bayitangarira.

Mu gasozi habayo inyamaswa z'ubwoko butandukanye harimo imbata, ni zimwe mu nyamaswa nziza zikunda amazi aho zifite ubushobozi bwo koga kandi zikareremba hejuru y'amazi.

Inyamaswa zo mu gasozi, uburyo ziba ziteye, buratangaje cyane, urugero nk'igishuhe gikunda amazi kandi iyo kigiyemo, ntabwo kirohama, ahubwo gifite ubushobozi bwo kureremba hejuru kandi kikabikunda cyane.

Hari inyamaswa dusanga mu gasozi cyangwa se zibera mu ishyamba. Urugero nk'iyo ugiye muri pariki y'Akagera usangamo: intare, inzovu, ingwe, inkura, udusumbashyamba ndetse n'izindi zitandukanye. Izo zose ziba ari nziza cyane kandi ikindi zikurura ba mukerarugendo bakaduha amafaranga bakazigira Igihugu.

Mu nyamaswa dusanga mu gasozi harimo ingwe. Ni inyamaswa iba ifite amabara meza cyane aho n'izindi nyamaswa ziyitinya cyane kubera kuzihiga kugira ngo ibone ibyo kurya.

Iyo tugiye mu ishyamba tuhasanga inyamaswa z'ubwoko butandukanye urugero nk'intare, ziba zifite utwana twiza cyane iyo tukiri utubwana ndetse ibyo bibwana na ba nyina bikurura ba mukerarugendo ku buryo abantu babyishimiye kubireba.

Iyo tugiye mu ishyamba tuhasanga inyamaswa zo mu gasozi urugero ni nk'ingwe, ni inyamaswa ifite amakare cyane gusa nanone kuyireba binogeye ijisho kubera uburyo ifite amabara meza kandi yubatse neza.